Icyapa cyanditseho magambo avuga ngo umusoro ku nyungu z'ubukode n'umusoro ucibwa ku nyungu. Harimo amagambo menshi ndetse harimo akabazo bivuga ko ari icyitonderwa ku bantu batanga imisoro.

Igipangu kiri hafi y'umuhanda, kiriho amashanyarazi kandi gifite umutekano mwiza usesuye kuko gifite aho binjirira heza.

Umurongo w'abantu ubona ko hari icyo bategereje, bari hafi y'ahantu hari butike kandi hari ibiti byinshi ubona ko hari ubusitani ndetse hatatse, hasa neza.

Umuhanda uparitswemo imodoka isa n'umukara kandi hari amazu agiye atandukanye kandi ikindi hari ibigo by'amashuri.

ama etaje menshi kandi hari amazu agiye atandukanye n'ibiti byinshi, iminara ndetse kandi n'imihanda myiza igezweho.

Umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga, amamoto, amagare, imodoka ndetse n'abanyamaguru bajya gushaka serivisi zigiye zitandukanye, abakoreramo kunyonga, kumotara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.